Abadamu batatu, bari kumwe n'umwana ufite igipfuko ku kuboko, bicaye, umwe urimo hagati wambaye ishati y'umukara ndetse n'undi ukenyeye igitenge.

Umukobwa bafashe ku kaboko, wambaye agapfukamunwa, ufite ibisuko by'umukara, wambaye agapira k'umuhondo, wambaye ipantaro y'umweru, aho ukuboko kwiwe kuri ku meza.

Umugore witandiye, wifashe mu mayuyungu ndetse uri kumwe n'abandi bagore, harimo uwambaye ishati y'umweru n'undi ufashe ku meza, wambaye iy'igitenge.

Mu cyumba aho hari kuberamo inama ndetse imbere y'imeza hateretseho ibyo kunywa, harimo amazi ndetse n'ibirahure, aho harimo abagabo bambaye amakote.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi myinshi iri inyuma ndetse wambaye ga z'umweru, aho afashe ukuboko k'umukecuru uteze igitambaro mu mutwe, aho ari kumufata amaraso.

Umugabo w'igikara wegeranye n'umugabo w'inzobe ufite umusatsi mwinshi, wambaye amarinete y'ubururu, wambaye ga uri kumwe na mugenzi wiwe wambaye itaburiya.

Aho abaganga bari kuvura umurwayi uryamye ku gatanda ndetse bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, aho higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Umugore wambaye igitenge ukikiye uruhinja, aho ari kumwe n'umudamu wambaye itaburiya ndetse n'iherena ku gutwi, aho ari guha umwana amata.

Umugore usutamye wambaye ijipo y'umukara, ufite mu kiganza cyiwe idomoro isa umuhondo iri mu ibafu, inyuma ye hanitse imyenda yo kwambara k'umugozi.

Umugore uri guseka ufite imisatsi y'umukara wambaye itaburiya y'umweru, ufite ga z'umweru uri kumwe n'akana gatoya gafitwe n'umudamu wambaye umupira wimbeho.

Umugabo wambaye itaburiya isa umweru, ufite umusatsi w'umukara, wambaye ga zisa umweru, uri kumwe n'umukecuru uteze igitambaro, aho hirya ye hari umukobwa uteze igitambaro gisa umweru.

Abadamu n'abagabo bicaye ku ntebe aho bambaye amataburiya asa ubururu, aho harimo abakenyeye ibitenge ndetse bafite ibitabo ku bibero byabo.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, aho ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, afite indangururamajwi isa umukara, aho yambaye itaburiya y'umweru.

Umwana ufite umusatsi muke w'umukara, wambaye agakanzu k'umutuku, uteze amaboko kuri robine ifunguye, iri kumena amazi. Iyo robine ikaba iri ku gikuta.

Abana batatu bafatanye ku rutugu, aho umwe ari guseka gakeya, wambaye umupira w'ubururu n'undi urimo hagati w'igikara, ukuboko agushyize ku rutugu rwiwe, ufatanye na mugenzi we wambaye umupira w'ubururu.

Umwana ufite umusatsi mukeya wambaye ishati y'icyatsi kibisi uri kumwe n'umwana wafunguye robine iri kuvamo amazi ari kunywa ari kumeneka hasi.

Umwana mutoya w'inzobe uhagaze ku munzani bari gupima ibiro, aho yambaye ipantaro y'ubururu, uri kumwe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gasa umweru aho yapfutse amazuru n’umunwa aho yambaye ga zisa umweru ndetse uteganye n’umusaza wasamye aho yambaye ingofero y’ubururu.

Inama iri kuba aho abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amazi, imbere yaho hari televiziyo ndetse harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'amarinete y'umukara, hari n'umugore ufite ibisuko by'umukara.

Umugabo wambaye ikoti ryiza ry'umukara, uri imbere y'icyapa kinini cy'ubururu ndetse aho ateganye n'umusaza ufite ibitabo mu ntoki ndetse imbere yabo hari indangururamajwi.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe gisa umweru, ukenyeye igitenge uri ku ivomero, uri kuvoma mu ibase y'umutuku, aho hari injerekani isa umuhondo.

Umugore wambaye itaburiya y’ubururu aho hari ndetse uteganye n'umumama witandiye igitenge mu mutwe aho ari gukingira umwana muto…

Umugabo ufashe umugore ku rutugu wambaye ikoti ry'umukara ukenye igitenge, bicaye ku ntebe zisa umuhondo uri kumwe n'umugore ufite igitabo mu ntoki.

Abagabo bahagaze hejuru, harimo n'abagore ndetse harimo n'abanyamahanga, bari kwifotoza iruhande rwabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Imbere y'abantu benshi cyane bahagaze, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bari imbere y'icyapa gisa ubururu ndetse bari kwifotoza, harimo abambaye amakote, amakanzu.

Umugabo uri hejuru y'imifuka, wambaye ishati y'ubururu, aho ari kumwe n'abadamu babiri bari kumuhereza imifuka akayigerekeranya.

Umwana wunamye uteze ibiganza, aho amazi ari kumugwaho ndetse uri kureba amazi, inyuma ye hari intebe ndetse n'abandi bantu.

Aho umuganga ari gukingira umusore ndetse uhinnye umupira we kugira ngo abashe kumukingira, aho muganga yambaye ga kugira ngo atamutera indwara.

Umukobwa ufite umusatsi muke, uri ku rukarabo wambaye umupira w'amaboko maremare, n'ijipo y'ubururu aho ari gukaraba amazi meza.

Abagore bizihiwe bari kuba imbyino gakondo, aho uwambaye umukara naho uwambaye umutuku ndetse inyuma ye hari intebe zisa umweru.

Abana bari koga mu mazi atari meza abamo mikorobi bizihiwe cyane nyamara ntibazi ko ayo mazi ari mabi yabatera indwara.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishati y'amaboko magufi irimo umutuku ndetse uri imbere yakandagira ukarabe aho ari gukaraba amazi.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe w'inzobe, ufite ibahasha mu ntoki ziwe, ukikiye umwana uri imbere y'imbaga y'abantu.

Abagore ndetse bari kumwe n'abagabo bari imbere, bari kwifotoza bari kumwe n'abanyamahanga bose bahagaze mu busitani busa icyatsi.

Umwana upfukamye ku butaka, aho inyuma ye hari ibyatsi byinshi ndetse ari mu mazi ari kuvoma, adasa neza uri kumwe n'akana gato.

Abari n'abategarugori bahagaze abandi basutamye, harimo n'abanyamahanga bari kwifotoza bambaye utujire harimo abakenyeye ibitenge.

Abana bari mu mazi mabi atari meza, aho ashobora kubatera indwara zitandukanye ndetse bo bishimye cyane kuba bayarimo, nyamara bashobora kuhaburira ubuzima.

Ivomero bavomaho abaturage bakusanyirije hamwe bakabasha kubona amazi avuye mu isoko, aho umugabo ari kubavomera wambaye imyenda y'ubururu.

Umukobwa uri kumwe n'abana bane, uri gupompa amazi ayashyira mu kabuni k'umuhondo ndetse wambaye umukara ipantaro n'inkweto z'umukara n'umweru, ufite ibisuko.

Inzu y'ivomero rusange, aho ivomeshwamo n'umugore ndetse akaba agaragiwe n'amajekani nyinshi kugira ngo abashe kuyuzamo amazi.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga y'abantu, aho afite indangururamajwi ye, yambaye ikote ry'ubururu, hano iruhande rwe hari umukobwa ufite umusatsi w'umukara uri kureba hasi.

Umugore ufite imisatsi ya shokora, aho ikiganza cye yagikojeje ku gatuza ke, wambaye umupira w'amaboko magufi, aho ku kuboko kwe yambaye isaha.

Umugabo w'igikara wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'ubururu, wejyeranye n'umukobwa wambaye ijipo y'umutuku, wambaye n'agapira k'amaboko magufiya aho ari kuvoma.

Abagabo ba bambaye amakote ndetse harimo n'abamama bambaye udupfukamuwa ndetse bari imbere y'icyapa kinini cyane cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru.

Umuhungu wicaye mu ntebe wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, uteganye n'umudamu witandiye mu mutwe, ufite umwana mu biganza bye aho intoki z'umuhungu zakoze kuri uyu mwana.

Umugore usutamye, ufite umusatsi mukeya w'umukara, aho imbere ye ari ku iriba ndetse ririho ingufuri, ufite injerekani y'umuhondo ndetse wateretse injerekani mu ibase.

Umwana w'inzobe uri gukingirwa, aho bamuteye urushinge ku kuboko kwe kw'ibumoso n'umuganga kwambaye itabuya isa umweru.

Abakozi bishimye cyane, aho bari gukoma amashyi y'rufaya ndetse bari mu busitani. Aho bari kumwe n'umugabo wicaye ku ntebe, naho hari undi ufite isakoshi.

Umugore witandiye mu mutwe aho ari ku iriba ndetse wafunguye amazi, ufite injerekani y'umuhondo, aho ateganye n'umugabo na we uri gukora kuri robine agiye gufungura amazi.

Umugore w'umunyamahanga ufite terefone mu ntoki ze, aho ari gufotora umwana wikoreye injerekani ku mutwe we, aho ateganye n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru.

Umwana uri gukaraba amazi ari kuva mu ndobo y'icyatsi kibisi, umwana ufite umusatsi w'umukara n'amenyo y'umweru.

Umwana bari gukingira ufite ubwoba, uri kumwe n'umugore wambaye itaburiya y'umweru, ufite urushinge mu kiganza cye, aho yambaye iherena.

Umugore wambaye rinete n'amaherena aho yambaye umudari mu ijosi, wambaye akajiri k'ubururu n'umupira w'ubururu, ufite impapuro mu ntoki.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'abagore ndetse n'abana, hari umugabo wambaye ishati y'igitenge wegamye ku nzu y'ibiti wegeranye n'umugore wambaye agapira k'icyatsi uri kumwe n'undi mugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inzu, aho harimo abadamu babiri bambaye rinete, barimo umugore wambaye ishati y'umweru, wambaye rinete, harimo n'undi mugore wambaye ishati y'umweru ariko utambaye rinete.

Umwana muto uri gukaraba isabune mu ntoki, wambaye ikabutura y'ubururu ndetse wambaye n'ishati ku ikora isa ubururu.

Umugore wambaye ijipo y'umuhondo, wambaye umupira w'umweru, ndetse uri kumwe n'umukobwa witeze igitambaro cy'ubururu, uri kumwe n'umugabo wambaye itaburiya.

Umwana ufite akabuni ko kuvomeramo amazi uri kumwe na mama we, wambaye umupira utukura, ukenyeye igitenge, uri kumwe n'undi mwana wambaye ikabutura itukura.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, aho ifite amaboko magufiya, uri guseka, wicaye ku njerekani y'umuhondo, aho ateganye n'iriba.

Abasore n'inkumi bari imbere y'icyapa gisa umweru, aho bambaye imipira y'ubururu yanditsweho amagambo y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru, aho bakubise igipfunsi mu kirere.

Umugore wambaye umupira usa icyatsi, aho ateze mu mutwe, ari ku iriba, aho ateganye n'umwana wambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakabutura, aho umwana afashe ku njerekani y'umuhondo ari kuvoma.

Umugabo wambaye ingofero uvuyemo amenyo ndetse ufite icumu rihagaze rireba hejuru, wambaye ishati ya karakaro y'amaboko maremare.

Abagore n'abagabo bahagaze neza, bari kwifotoza, bari kumwe n'ushinzwe umutekano mu gihugu uri kumwe n'ukenyeye igitenge.

Umugore ukikiye umwana, wegeranye n'undi mwana muto, uri kumwe n'inkoko, iriho umuceri ndetse bicaye hasi ku butaka.

Umugabo uhagaze ufite umusatsi mukeya ufite ubwanwa bw'umukara wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibifungo bitatu, inyuma ye hari abantu benshi.

Umwana wicaye ku ntebe y'umuhondo, washyize ukuboko kwiwe ku meza, ufite biswi mu ntoki, wambaye ishati y'umweru.

Umugabo wicaye asutamye hasi ku butaka, wegamye ku gikuta, wambaye umupira utukura, wambaye inkweto z'umukara, aho yegeranye n'amashashi ari hasi.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe harimo n'akana gatoya aho umugabo wambaye umupira w'umutuku ufite terefone mu ntoki uri kumwe n'undi mugabo wambaye ipantaro y'ubururu.

Umusore wambaye agapira k'amaboko mugufi gasa umukara wegeranye numugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, aho imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'umukara.

Umugore ufite imisatsi itari myinshi cyane y'umukara ndetse uri kumwenyura, uri imbere y'inzu wambaye umupira w'umutuku wose ufite imibiri yombi.

Umukecuru ubuzima bwe butari kugenda neza wicaye mu muhanda ndetse byamushobeye inzara yamwishe, aho hasi hari uducupa tw'amazi.

Aho umunyamahanga ari kumwe n'Abanyarwanda, aho bari gutera ibiti mu busitani, aho babanjije bagacukura kugira ngo babone aho bashyira icyo giti.

Abagore n'abagabo ndetse harimo abambaye amakoti harimo abambaye amakanzu basa neza bahagaze neza rwose bagiye gufata ifoto aho inyuma yabo hari icyapa.

Umugore wambaye agapfukamunwa, ufite ibisuko by'umukara wegeranye n'umugore wakenyeye igitenge ndetse wambaye sandari wicaye ku ntebe aho bateganye.

Umugore ufite imisatsi y'umukara ufite indangururamajwi isa umukara wambaye igitenge, wicaranye n'umugabo udafite umusatsi mwinshi, uri kureba iburyo bwiwe wambaye umupira w'umukara.

Abari n'abategarugori ndetse n'abagabo n'abasore, aho bitonze neza kugira ngo bafate ifoto imeze neza, aho bamwe bahagaze abandi bicaye.

Umugore wambaye amaherena afite imisatsi y'umukara, wambaye rinete, aho afite ikaramu mu ntoki isa ubururu ndetse imbere ye ku meza hariho amazi ari mu ducupa.

Umukobwa uri kureba hasi, ufite ibisuko by'umukara, aho ukuboko kw'iburyo kw'iwe gufashe ku bisuko by'iwe ku mutwe, na ho ukuboko kw'iwe kw'iburyo gufashe ku bisuko ku mutwe.

Umugabo uhagaze uri kwigisha abadamu uko bakitwara, wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye n'ishati y'umutuku, aho imbere ye hari icyapa ari kwandikaho ndetse hari n'umugore uhetse umwana mu mugongo.

Umugore w'igikara, ufite imisatsi y'umukara, ukenyeye igitenge, wicaye ku musambi, uzirikishijwe umunyururu imbere y'igiti, wambaye kamambiri.

Umwana muto uri guseka wavuyemo iryinyo, ufite idarapo ry'u Rwanda, ririmo amabara ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Umugore uri kumwe n'undi mumama, aho umumama afite indangururamajwi ye aho agiye kuyishyikiriza uyu mugore wambaye umupira w'umutuku.

Umwana wikoreye amaboko, aho yambaye ishati y'amaboko magufi, aho ari kurira cyane ababaye ndetse inyuma ye hari umudamu ufite inkwi, wambaye agapira k'amaboko magufi.

Imeza iri imbere y'abagore n'abagabo bicaye, aho bose bambaye udupfukamunwa, imeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse igaragiwe n'indabo ebyiri.

Umugabo uhagaze imbere y'icyapa ndetse w'umunyamahanga ufite ubwanwa bwinshi, wambaye isaha ndetse n'ishati y'amaboko magufi, uhetse igikapu.

Icyapa kiriho ikirangantego cya polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano, aho kirimo inuma isa umweru ihagaze ku tubari tubiri.

Umusore ufite umusatsi w'umukara, inyuma ye hari igikuta cy'umweru, wicaye usutamye, aho ukuboko kumwe kwafashe ukuguru ku iwe ndetse guhinnye ndetse ukundi kuguru kukaba kurambuye.

Umugabo wicaye imbere y'iwe hari icupa ry'amazi wambaye agapfukamunwa, aho yambaye ikote ry'ubururu n'ishati ya karakaro, wegeranye n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki z'iwe wambaye ikote ry'ubururu

Abana bicaye aho harimo umwana uri guseka cyane, ufite amenyo y'umweru n'ishinya y'umukara uri kumwe n'undi ubumbye umunwa.

Abana bari mu kibuga cy'ibitaka, aho hateyemo idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugore uhagaze, wambaye ikanzu ndetse wambaye n'ikoti ry'umukara, kumeza iriho igitambaro cy'umweru n'ubururu giretetseho ibikapu byinshi hariho n'amazi yo kunywa.

Umugore ufite imusatsi y'umukara aho afite indangururamajwi ye aho ari kuyivugiraho yicaye, imbere ye hari agacupa k'amazi ndetse na mudasobwa ye.

Umusaza w'imvi wambaye amarinete aho ari imbere y'ikirahure cy'iwe ari kurebamo uwambaye agapira k'amaboko magufiya aho agiye kwiborosa.

Umugabo uri kureba amenyo y'umwana, ndetse aho yambaye agapfukamunwa gasa icyatsi n' amarineti aho yambaye ga z'umweru.

Mu kigo cy'ishuri aho abanyeshuri bishimiye cyane, bahawe uburoso boza amenyo ndetse bari kumwe n'umwarimu wabo.

Abanyeshuri bahagaze bishimye bafite amazi mukanwa ndetse n'uburoso bafite igikombe mu ntoki zabo.

Umwana w'inzobe ufite agasatsi gakeya, ufite akagozi mu menyo yiwe, wegeranye n'umugabo ufite umusatsi w'umukara ufite akagozi mu menyo yiwe.

Umukobwa wambaye linete ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, udafite umusatsi mwinshi, ufite ikaramu mu ntoki ziwe, wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo uri guseka wasamye, ufite akagozi ku menyo yo hejuru, wagafashe mu biganza byiwe, uri kugakurura, ufite ubwanwa bw'umukara.

Umukobwa w'inzobe ufite ibisuko by'umukara, imbere ye hari utwinyo twinshi tw'umweru, ufite amenyo y'umweru ishinya y'umutuku n'amaso y'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, wambaye ga isa umweru, ufite akagozi mu kiganza cye gasa umweru, aho hari umukobwa uryamye ateye inzobe.

Umugore uhagaze ufite imisatsi y'umukara, imanutse ku bitugu bye aho yambaye isaha y'umukara ndetse ufite uburoso mu kanwa ke, aho ari kwereka bagenzi be uko boza amenyo.

Umwana ufite imboni y'umukara n'amaso y'umweru, ufite uburoso bwiwe mu ntoki ziwe, aho agiye kwiborosa amenyo ariko yafashe uburoso mu ntoki.

Umugabo uryamye ku gatebe, ufite umusatsi w'umukara, ndetse n'ubwanwa, aho amwenyuye, ndetse wambaye ishati ya karokaro, uri kumwe n'umukobwa wambaye ga zisa ubururu.

Umugabo uri guseka, wambaye agatuza, ufite ubwanwa bw'umukara ndetse washyize akagozi gasa umweru mu menyo yiwe, akaba yagafatishije ibiganza.

Umugore uri guseka, uri kwireba mu ndorerwamo yiwe, uri kureba amenyo, ufite ibisuko by'umukara, wakoze ku kananwa kiwe, ufite inzara ziteye verine.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, aho yakanjije isura, amaso ye asinziriye, aho afite amenyo y'umweru n'ishinya y'umutuku, harimo akagozi ari gukurura hagati yamenyo, ari guhekenya.

Umugabo uri kuzana uruhara, ufite agasatsi gakeya ndetse ufite ubwanwa butari bwinshi cyane, wambaye umupira w'amaboko magufiya usa ubururu.

Abahungu bambaye udupfukamuwa tw'ubururu bambaye imipira y'umweru, aho hirya hari umugore wambaye ikote ry'ubururu ufite imisatsi miremire.

Umukecuru uri kurambura amaboko, wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse uriho igipfuko cy'umweru ku kuboko kw'iwe, uri kumwe n'umugore wambaye agasengeri bari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aho ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi miremire ndetse wambaye ishati y'amaboko magufiya, aho ari kumusunika mu kagare.

Umwana uri guseka wambaye umupira w'icyatsi, ufite agakoresho bakoresha bakina gemu, uri kumwe n'umusaza wicaye mu kagare k'umukara, wambaye rinete, wambaye umupira w'umuhondo.

Umugabo w'umuzungu ukikiye umwana amushyize ku bibero bye aho yicaye mu ntebe hari ubusitani bwiza ndetse hari umugore wicaye mu ntebe.

Umusaza w'imvi zitari nyinshi cyane, aho abumbye umunwa, wambaye ishati y'amaboko maremare, aho izuru rye riri kumwe n'akana gatoya, bose bahuje mu maso ndetse akana gafite igipupe mu ntoki.

Umusaza udafite imisatsi myinshi, aho afite imvi nkeya ariko wambaye amarinete ndetse ufite ikaramu mu ntoki ze, aho afashe ku kakananwa ari gusoma ikinyamakuru.

Umukobwa wambaye iherena ndetse imbere ye ku meza akaba afite igisorori ndetse akaba ari kumwe n'umumama wambaye amarinete ndetse uri guseka, ufite icyuma mu ntoki ze aho ari gukata imbuto.

Umuryango uri mu nzu yabo bishimye, aho bicaye mu ntebe biguriye nziza cyane, aho harimo umusaza, abana ndetse n'umugabo n'umugore.

Umugabo wishimye cyane, ndetse amenyo yaraditse koko aho yambaye ikoti ry'umweru rimukiza imbeho uri kumwe na mugenzi we ufite icupa ry'amazi aho bari gukora imyitozo yo kwiruka.

Umukecuru wambaye ingofero y'umweru, uri kumwe n'umukecuru ufite imvi zitari nyinshi, wambaye amarinete, ufite telefone mu biganza bye, uri kumwe n'undi wambaye ingofero uri kureba muri terefone.

Umugore ukuze cyane ndetse uri kubasha kugerageza gukora imyitozo ngororabiri, aho yicaye mu busitani bwitaruye kure mu rugo.

Umugabo w'umusaza ufite imvi nyinshi z'umusatsi ndetse no mu bwanwa, wambaye ishati ya karokaro ufite agacupa mu ntoki, wambaye impeta, uri kumwe n'umugore wambaye amarinete.

umugore uri kureba mu kiganza niwe wambayebnda ufite ikirahuri muhuba harimo amazi ndetse ugiye kunywa ibyoe

Umugore w'imisatsi miremire, aho ari kumwe n'umusaza w'imvi nyinshi ndetse wambaye amarineti ndetse wicaye hasi ndetse ufite igipapuro mu ntoki.

Umusaza ufite imvi uri kumwe n'umukecuru ufite imvi, aho umusaza yambaye umupira w'ubururu naho umukecuru wambaye umupira w'umutuku, imbere ye hari ikirahure kirimo amazi.

Umusaza uri gukina n'umwana wambaye umupira w'umweru, ufite umupira bakoresha bakina umukino w'amaboko, ufite umupira mu biganza byiwe.

Umugore urikwita ku mukecuru wicaye urikumureba ndetse ufite isaha ku ntoki, uteze ibiganza ngo bamuhe ikinini, ufite ikirahure kirimo amazi yo kunywesha umuti.

Umudamu ufite imisatsi irimo imvi ndetse wambaye umupira w'amaboko mugufiya, uri kumwe n'umugore ufite umusatsi unyerera ndetse wambaye umuhondo, uri kumwe n'umugore wambaye umupira w'amaboko maremare.

Umugore uri mu nzu, aho hari umucyo mwinshi, uri gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse ufite imisatsi irambuye, ijya gusa umweru.

Umugore w'umunyamahanga, wambaye isaha ku kuboko ndetse wambaye ishati y'amaboko magufi, aho ari kumwe n'umugabo uri kumureba ndetse udashobora kwigenga.

Umugore w'umusatsi muremure igana inyuma, wambaye umupira wamaboko magufi aho ari kumwe numu mama ukuze ndetse ufite imvi. Aho yambaye amahereka warambuye amaboko.

Umusaza w’imvi zitari nyinshi cyane aho yambaye umupira w'amaboko magufiya mu kiganza cye ufitemo ibinini aho ari kumwe n'umukecuru uri kumwereka uko agomba kunywa imiti ye.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye umupira w'amaboko maremare, uri kumwe n'umusaza ufite imvi, wambaye amarinete ndetse imbere yiwe hari ikirahure kirimo amazi.

Umudamu w'imisatsi miremire wambaye rinete z'umukara, aho agiye kunywa imiti wambaye ishati y'amaboko maremare ihinnye, imbere ye hari imeza iriho imiti.

Umukecuru uri imbere y'akabati gasa umweru, ufite imvi ndetse uri guseka, ufite ikanya mu ntoki z'iwe ndetse wambaye ishati y'umweru.

Abaturage bari mu murima aho harimo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse bahagaze hamwe harimo abagore ndetse n'abapapa aho bari kwifotoza.

Umugabo uhese umugongo, wambaye isaha ku kuboko, ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, wambaye umupira w'amaboko magufi usa umweru.

Umukecuru wicaye wegereye igikapu cy'umukara ndetse kirimo utudomo tw'umweru, wegeranye n'undi uteze ufite inyinya.

Umukecuru ufite imvi z'umukara, wambaye amarinete y'umukara, ufite ikirahure, imbere ye hari imeza ndetse n'inyanya, uri kumwe n'umudamu ufite imisatsi y'imikara.

Abagabo babiri, umwe wicaye undi umuhagaze hejuru wambaye amakoti y'umukara, wambaye karuvati z'umukara, undi ibiganza by'iwe yabifatanyije.

Umugabo wambaye amarinete, wicaye hagati y'abagore babiri, aho ari kumwe n'umunyafurika, n'aho ari kumwe n'umuzungu, wambaye agakoti k'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye ndetse n'abandi bahagaze. Aho harimo umugore wambaye ikote ry'ubururu, harimo n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu, harimo n'umumama ukenyeye igitenge.

Umugore w'inzobe umwenyuye ufite amaso y'umweru, ufite umusatsi w'umukara wambaye iherena, wambaye ishati y'ubururu.

Umugabo uryamye hasi muri jaride, uri kumwe n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse uteganye n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu wambaye akajire k'icyatsi.

Umugore wambaye rineti z'umukara uri kuvugira ku ndangururamajwi ziwe, wambaye isaha ku kuboko ufashe ku meza uri kureba aho ari kugirira,

Aho Abanyafurika bari kumwe n'Abanyaziya, aho hari abambaye amakoti ndetse amajipo asa umukara ndetse n'andi asa umweru.

Umugabo w'inzobe wicaye mu ntebe, wambaye karuvate y'ubururu wifashe ku kananwa wegeranye n'umugore wambaye ikote ry'umukara wicaye mu ntebe.

Umukecuru uteze igitambaro mu mutwe, ari kumwe n'abakobwa babiri b'inzobe, umwe uteze igitambaro cy'umweru uri kumwe n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ufite umusatsi w'umukara.

Umugabo wambaye ishati w'igikara, uri kumwe n'umugore w'inzobe, ufite icyapa cyanditseho bibiri na mirongo itatu, aho yambaye inkweto z'umukara, uwo mugore inyuma yaho hari intebe z'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, upfutse amazuru n'umunwa gasa umweru, wambaye ga zisa umweru ndetse uri gupima icyorezo cya korona, aho ari gupima umusaza wambaye ingofero isa ubururu.

Umugore uri kumwe n'umunyamahanga wambaye ikote ry'umukara ndetse bari imbere y'icyapa bahagaze bemye, aho bari kubafata amafoto.

Abagabo bambaye amakoti meza bari kumwe n'abadamu batatu, aho harimo uwambaye umuhondo ndetse hari uwambaye ikote ryiza y'ubururu ndetse na karuvati y'ubururu.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara aho yambaye ikote ndetse na karuvati, ufite amarineti asa umukara, aho afite ubwanwa bw'umweru ndetse imbere ye hari indangururamajwi uri kumwe n'umusore.

Umugabo w'inzobe ufite icyapa mu ntoki ziwe, aho ikiganza kimwe kiri hejuru gifashe icyapa, naho ikindi kiganza kiri hasi gifashe icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo umucyo mwiza ndetse giteyemo irange ry'umweru, kirimo agatanda k'umukara ndetse bashyiraho abarwayi.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite ikaramu mu kiganza cye, uri kurebana n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufi, witandiye igitambaro mu mutwe.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara, wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ndetse ufite mu ntoki ze icupa rifite umufuniko w'ubururu, wambaye itaburiya y'umweru.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye rinete nundi mugore uryamye ku gitanda wambaye ibitenge wateze igitenge mu mutwe wasinziriye.

Inzu nziza cyane y'ibitaro byitiriwe King faisal. Aho bizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse imbere yabyo hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wicaye mu kagare kabamugaye, uri kwitwara, uri kureba imbere ye mu busitani, aho ari imbere y'ikigega kijyamo amazi.

Umugabo wambaye amarineti y'umukara ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya isa umweru mo imbere harimo ishati ufite igitabo mu ntoki.

Umuntu uryamye ku gatebe ndetse hariho amashuka asa umweru, uri kumwe n'umuganga, wambaye ga z'umweru ndetse wambaye n'agapfukamunwa gasa umweru, ndetse wicaye ku gatebe aho ari kumuvura.

Inzu irimo igishushanyo ndetse bagurishirizamo amarinete yo kurebamo kugirango uyifashishe ubasha gusoma ibitabo.

Inzu ifite amabati y'ubururu ndetse n'amadirishya abiri, hasi hari amabuye, imbere yinzu hari indabo ziteye mu mavaze asa ubururu.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, uhetse igikapu, wambaye umupira w'umweru, uri kureba umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'agashashi mu mutwe.

Inzu nziza ndende yubakishijwe amabati, aho imbere yayo ku butaka iriho amapave ndetse ifungishijwe imiryango y'imbaho iriho ibirahuri.

Inzu yubatse neza iri mu mabara y'umweru n'umukara, imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse haparitse n'imodoka ifite amapine y'umukara.

Mu cyumba hari kuberamo inama aho hicaye imbere abagabo babiri ndetse n'umudamu wicayemo hagati, aho imbere yabo hari mazi ndetse n'abanyamakuru.

Ku manywa y'ihangu, aho hari inzu nziza, ikirere gisa neza cy'ubururu kirimo ibicu bisa umweru, aho imbere hari abantu benshi bari gukora ibikorwa remezo.

Umugore ufite imisatsi miremire isa umukara, wambaye amarinete asa umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, aho yambaye itaburiya y'umweru, uri kureba muri mudasobwa ye.

Umugabo w’umuganga wambaye itaburiya y'umweru, aho afite ikaramu mu mufuka we, aho yambaye isaha y'umukara nziza ndetse yambaye ipantaro, aho yicaye ku gatebe ndetse inyuma ye hari intebe abarwayi bicara ho isa icyatsi.

Inzu iteye irange ry'umuhondo, iriho amadirishya hejuru no hasi, iriho icyapa kiriho umudamu utwite, icyapa gisa umweru.

Umugore uryamye ku gitanda ndetse hejuru ye hari inzitiramibu isa umweru, aho ari mu mashuka y'umweru.

Umumama uri kumwe n'umugore wambaye ishati y'umweru, ndetse n'amaherena, ukikiye umwana mutoya w'uruhinja, aho bari kumureba bishimye.

Umudamu wicaye ku gatebe gatoya, afite imisatsi y'umukara, wayifungiye inyuma ndetse wambaye amarinete n'agapfukamunwa, aho kari ku kananwa, wambaye ga zisa umweru.

Abagore bari hanze y'inzu nini ndetse hari umudamu wagereye imodoka isa umukara ndetse bahagaze hasi ku mapave.

Inzu iri mu mabara meza y'umuhondo ndetse n'umweru, aho yubakishijwe amatafari, imbere yayo hari umusaza uhagaze wambaye ishati y'amako maremare.

Umwana mutoya utari mukuru cyane, ndetse wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro, aho ari gusunika umugabo wicaye mu kagare, utabasha kwigenza.

Iduka ribamo imiti aho buri murwayi wese urwaye aza agashakishamo umuti aho harimo imiti myinshi itandukanye ndetse rikaba risa neza ririmo amata.

Inzu ifite amabati y'icyatsi iriho idirishya ndetse irimo ibirahure, iyi nzu imbere yayo irimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Inzu iteye irangi ry'umweru, aho hari imbaga y'abantu itonze umurongo, ndetse harimo n'abafite ubumuga bicaye mu kagare, aho harimo n'intebe z'umukara.

Inyuma y'inyubako y'ubuvuzi bwa kigina aho buri muryango wayo hari umugore uhahagaze uhetse umwana mu mugongo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye biteye irange risa umweru, harimo akameza gateretseho mudasobwa ndetse n'agatanda ko kuryamaho gasa umutuku.

Icyumba gisa neza cyane kirimo agatanda umurwayi aryamaho bari kumufasha ndetse kiri mu mabara y’umweru ariko hari n'amarido kuruhande yako.

Icyumba gisa neza cyane cyo kwa muganga, aho kirimo umucyo mwinshi n'amarido y'umweru ndetse kirimo n'ibitanda, aho abarwayi baryamaho bari kuruhuka.

Imodoka ifite amapine y'umukara iriho ibirahuri bifunze yegereye umugabo wambaye ikotiyu ry'umukara ndetse inyuma yaho hari inzu ifite amabati y'ubururu.

Inzu yakira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho ayo magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari.

Inzu y' ikigo nderabuzima cya Gasha, aho hicaye imbere yaho abana babiri ndetse n'umugore n'umugabo, aho bicaye ku makaro.

Umuganga wambaye itaburiya isa umweru, wambaye ga mu biganza byiwe zisa umweru, uri kumwe n'umugabo wicaye wambaye isengeri y'umweru.

Igikoresho cyo kwa muganga gisa umweru, kiri mu ibara ry'umukara aho kigaragajwe n'ibirahure, igikoresho bakoresha bareba indwara urwaye.

Iitabo bya Nyarugenge by'Akarere ndetse aho biteye neza cyane, bifite ubusitani bwiza cyane, aho rwose bwacyeye hari ikirere gisa ubururu cyiganjemo ibicu byinshi bisa umweru.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufiya ndetse wambaye agapfukamunwa gasa umweru ndetse n'ipantaro wambaye n'inkweto z'umukara aho ari kurebana n'umukobwa uteze agatambaro gasa ubururu mu mutwe we.

Umugabo uri muri siporo aho yari agize icyayaka, afata icupa rye ry'amazi ndetse abasha kuyanywa kugira ngo yongere gutora agatege.

Mu kibuga aho hari kubera imikino y'umupira w'amaguru, aho umukinnyi agize ikibazo mu ivi, bari kumufasha kugira ngo abashe kumera neza.

Abana bari kubyina mukibuga, bari kurebwa n'imbaga y'abantu benshi uko bari kubyina, harimo uri imbere wambaye isengeri y'umukara n'umweru, wambaye ikabutura y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, aho hari intebe umurwayi yicaraho, bagiye kumurebera ikibazo afite.

Umugabo uri muri siporo wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, uri kwimenaho amazi avuye mu icupa afite mu ntoki risa umweru.

Umugabo ufite ekuteri wifashe mu mayunguyungu, wambaye umupira w'amaboko magufi, aho avuye muri siporo ari kunywa amazi.

Umukobwa uri gukora ingororangingo, aho yahinnye ukuguru, ukundi kurambuye, aho ari kumva imiziki ndetse imbere ye hari icupa ry'ubururu.

Ikiganza gihindurije cyambaye ga zacitse ku mitwe y'intoki n'ikindi kiganza kidahindurije cyambaye ga zacitse ku mitwe y' intoki, uretse igikumwe.

Umukobwa uri gukora imyitozo yo kwiruka aho ari kumwe n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Umugabo ufite icupa risa umweru ririmo amazi meza ari kunywa, uvuye muri siporo, wambaye agapira k'amaboko magufi.

Umugabo munini wambaye umupira w'umukara ufite ukuboko kunini, wambaye udukomo tubiri tw'umukara wambaye ipantaro ya shokora ufashe icyuma mu ntoki ze.

Umugore uri muri siporo, izuba ryamukubise ndetse abira icyuya noneho ari kunywa amazi, afite icupa risa ubururu ndetse n'akayesume ko kwihanaguza ibyuya.

Umugabo uryamye ku gatanda gasa umukara, wambaye umupira w'umukara ndetse uri kumwe n'abagabo babiri, aho bamufashe mu mugongo bari kumukanda.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, ufite ubwanwa, ufite icupa ririmo amazi ari kunywa, wicaye hasi ufite agakomo k'icyatsi.

Abagore batatu bicaye bambaye agapfukamunwa, bari kureba kuri televiziyo yabo, aho harimo amashusho, harimo umugabo wambaye itaburiya isa umweru, aho ku meza yabo hari mudasobwa.

Umugabo uri muri siporo wambaye isaha y'umukara nziza ndetse wambaye agakabutura k'umukara, aho afashe ku ivi aho yari avuye muri siporo agize ikibazo mu ivi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete ndetse bambaye n'amataburiya y'umweru, aho bari kureba amashusho y'umuganga uri kubabwira uko bagomba kwitwara.

Umugore ufite umusatsi w'umukara uri kunywa amazi, aho avuye muri siporo, ufite mu kuboko kwiwe terefone, wambaye isengeri y'umukara.

Umukasi w'umukara ndetse n'agakapu bakoresha bashyiramo imiti y'ibanze, aho iyo ugize ibyago bareba muri ako gakapu gasa umutuku bakakifashisha.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wicaye hasi uri gukora ingororangingo, warambuye ukuboko agushyira ku kuguru kwiwe ndetse wahinnye ukuguru kwiwe wambaye agasengeri k'umweru.

Umugore munini utari munini cyane, wafashe ku kuguru kwe, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye agasengeri k'icyatsi.

Icyumba kiza gisa umweru, aho hariho agatanda ndetse imbere yaho hari imashini bagushyiramo iyo bari kureba ikibazo ufite cyo mu mutwe.

Icupa rifite umutwe w'ubururu uriho ikizingati cy'umutuku, ririmo amazi ari kuvamo agwa mu kirahure kinini.

Kwa muganga aho harimo umuganga uri gufasha umurwayi wacitse akaguru, aho ari kumwereka uko yabasha kugenda aho yavunitse mu ivi.

Umugore wicaye hasi, ufashe ukuguru kwiwe yarambuye, ndetse n'ukundi ukuguru yahinnye, ndetse ukuboko kwiwe kuri gukora ku nkweto ziwe, ndetse uri gukora ingororangingo.

Umugabo wambaye ishati wicaye ku gatebe k'umweru, uri kureba muri mudasobwa y'iwe, ikaba isa umukara, iteretse ku kameza.

Imbago ikozwe mu cyuma aho irimo n'amabara y'umukara, aho bayikoresha bifashisha umuntu wavunitse mu kuguru cyangwa se udashobora kuba yahagarara.

Umukobwa uri imbere y'amazi menshi magari, aho arambuye amaboko mu kirere, ufite imisatsi miremire wambaye ipantaro y'umukara.

Umugabo ufite amatuza manini, ufite icyuma mu ntoki, aho imitsi ye yireze ku maboko ye, imbere ye hari amagi, ndetse na karoti, ndetse na pavuro, n'amashu, na ji.

Umugabo wabumbye umunwa, ufite ubwanwa bukeya, wambaye umupira w'umukara, uteganye n'umugore ufite ukuboko kw'inzobe wambaye umupira w'ubururu.

Umugore ufite imisatsi myinshi ku mutwe y'umukara, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye imyenda imurekuye.

Umugabo w'amatuza ndetse uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye isaha y'umweru ndetse akaba yambaye n'inkweto zo gukorana imyitozo.

Imipira itandukanye, harimo umupira wa basiketi, harimo umupira w'amaguru, harimo umupira bakoresha bakina rugubi, harimo umupira bakoresha bakina kiriketi.

Umugabo wicaye hasi, uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye urukweto rw'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Umugabo uri kunywa amazi ufite ubwanwa bw'umukara wambaye isaha, urikumva ekuteri mu matwi yiwe, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, wambaye n'inkweto z'ubururu wicaye ku ma esikariye.

Umugore w'imibiri yombi wambaye isengeri y'icyatsi n'ikabutura y'ubururu, aho yambaye inkweto uri mu myitozo ngororamubiri.

Ukuboko k'umukara gufashe ku mukondo w'ijage, aho icuritse irimo amazi meza ndetse ari kugwa mu kirahuri gitoya.

Umugore uri gukora ingorangingo ufite umusatsi w'umukara wicaye hasi, aho mu biganza bye ku rutoki hariho impeta.

Umugabo uri gusoma ku gacupa, ufite ubwanwa bw'umukara, aho yambaye isaha ku kuboko ku iwe, uko kuboko kukaba gufashe icupa ririmo amazi.

Aha hari umugabo uryamye hasi aho bari kumuzirika wambaye umupira w'umweru ndetse uri kumwe na bagenzi be bapfukamye hasi kugira ngo babashe kumubohora.

Umugabo uri mu cyumba bakoreramo imyitozo, aho aryamye hasi ndetse ukuguru kwe kuriho umugozi uziritse kugira ngo abashe, kukurambura kugira ngo arambuke noneho.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wambaye isaha ku kuboko kwe aho afashe ku kuguru k'umudamu wambaye isogisi ndetse wambaye n'amarinete.

Umugabo w'imibiri yombi uri kunywa amazi mu icupa ufite ubwanwa wambaye umupira w'icyatsi ufite agasume ku rutugu.

Umugabo uri kunyura kuri televiziyo y'u Rwanda, ufite ubwanwa butari bwishi, ufite ingofero mu mutwe we, aho acuruza imiti gakondo.

Amavuta meza y'uruhu aho ari mu icupa ry'umuhondo rifite umufuniko utukura akozwe mu gikakarubamba aho akungahaye kwisiga ku mubiri ukaba mwiza.

igikakarubamba tuzi nk'umuti uvura inzoka nyinshi zitandukanye no mu nda, aho zigukiza utagiye kwa muganga ukoresheje imiti y'abanyamahanga.

Tangawizi zerera mu butaka, aho zikunda gukoresha banywa icyayi ndetse zikanavura n'inkorora ndetse na anjini.

Umuhungu w'igikara ufite icupa mu ntoki z'iwe wambaye ishati yumweru, aho imbere ye hari ibikarito ndetse n'indobo.

Umuti mwiza wo kwisiga, aho uri mu icupa ry'umweru ndetse ukaba ukozwe mu gikakarubamba, kivura indwara nyinshi zitandukanye, ni byiza.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gasa ubururu, aho apfutse umunwa n'amazuru ndetse wambaye ishati y'amaboko maremare n'itaburiya isa umweru aho imbere ye ari gupakira imiti.

Umuti mwiza ushobora kugufasha mu kwica indwara yerekeranye n'izo mu nda, aho ari yo ndwara yonyine ishobora guhangana n'amibe ku kigero kiri hejuru.

Amazi ari kumanuka ava mu misozi, aho hari abagabo bahetse baga, harimo iz'ubururu ndetse n'umutuku, bakandagiye mu mazi bakikijwe n'amabuye.